Resitubare nziza cyane ihuriramo urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye, harimo inzoga zitandukanye abantu baganira harimo abaseriveri wambaye umukara arimo amatente meza n'amatara.

Abantu bicaye ari benshi ahantu ha sale, nko muri bare, bamwe bari kunywa abandi batari kunywa, abari kunywa bafite fanta n'imihehe ibiri, bose bishimye.

Abantu batatu bari mu nzu y'ubucuruzi bw'inzoga bare. Bari kunywa inzoga barywera mu birahuri bicaye ku ntebe nziza, hirya hari tereviziyo, barishimye.

Umuntu uhagaze uteranyije imbaga nyinshi, ari kuririmba ahantu muri bale banywa, babyina kandi abantu b' ingeri zose.

Isahani nziza iriho ibiryo bigiye bitandukanye, imishito iriho inyama zokeje n'agasarade ku ruhande k'inyanya, ibitunguru na sereri .

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo intebe n'ibitanda yitwa Supuroselimitidi. Umuryango umwe urafunguye, undi nta bwo ufunguye.

Inzu z'ubucuruzi zikorerwamo ibicuruzwa bimwe bitandukanye, imbuto, amavuta, ji, hanze hari umumama uri gutandika imineke, hari n'agatebo karimo inyanya, puwavuro.

Inzu nziza ikorerwamo ibintu by'ubucuruzi bigiye butandukanye, bigaragara ko bafunze imbere hari ibicuruzwa bikenerwa n'abantu benshi biba bitandukanye. imakarito yabitswemo pozitivo.

Inzu z'ubucuruzi z'ibikoresho bya aruminiyumu siteshono limitedi. Ariko nyine izo nzu bazifotoye ba zicuritse. Imberere muri izo nzu z'ubucuruzi harimo n'umuntu wambaye umupira w'umutuku.

Amazu y'ubucuruzi amabutike, ari ahantu ku muhanda w'ibitaka. Imbere y'ayo mazu haparitse imodoka. Imwe y'ivatiri n'izindi modoka, n'undi muntu uri ku igare wambaye agapira k'umweru, uri kurinyonga.

Inzu icururizwamo ibintu bitandukanye, amaji n'ibindi byinshi. yanditsweho uruhimbi rwa Gishwati, hanze hakaba hari ibintu, imbere hari indobo, ...

Ahantu h'ubucuruzi, butike. Harimo imikeka, amamatera, ibyo kwiyorosa, imisego, mu mpande hari umuntu uhagaze. Ahantu hagera urujya n'uruza rw'abantu baje kugura ibintu byo mu nzu, harimo n'imikeka.

Icyapa kinini cyane kigaragaza ibiba muri Goyiko puraza. Inyubako iberamo iby'ubucuruzi ku buryo butandukanye iherereye muri Musanze.

Inzu nziza y'ubucuruzi nini, ngari. Ni iy'amakaro hasi. Harimo akabati k'imbaho, karimo n'uturahuri. Muri ako kabati harimo imigati, ku ruhande hari iri irido, rimanitse.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, hanyura n'abantu, urujya n'uruza rw'abantu bagiye kugura, hirya hari icyapa cyanditsweho biya, bigaragare ko haba inzoga, n'ahanditswe fesibuke ragu.

Imodoka nini iri kugemura ibicuruzwa osi. Kuri iyo modoka hari icyapa kiriho umukobwa uri gutanga ikaze, bagemura ahantu mu baturage hari ibiti, hari indabo, hasi y'imodoka hari n'iradiyo.

Inzu y'ubucuruzi iduka rinini icururizwamo ibintu by'amavuta atandukanye. Hari mo amasabune amavuta ya erayo, emperiyo, asante, n'amasabune ya detoro.

Amazu menshi y'ubucuruzi. Hirya hari inzu icururizwamo amabase, amasafuriya, n'imyenda. N'indi nzu iri gucururizwamo amatekino, hamanitswe n'icyapa cya Airtel, iriho n'umutaka, igaragaza ko icuruza, ikoreramo umu ajenti. N'andi atandukanye, afunze.

Inzu nziza y'ubucuruzi butike. Harimo icupa rya Sipuritusi, hakabamo amakarito menshi cyane apakinze afunze. Hejuru yaho hakaba hari amasabune akase. akase

Inzu y'ubucuruzi shopu iri ku ku muhanda wa kaburimbo, hariho ibipupe byambaye imyenda, ibipupe bibiri bidafite umutwe, ikindi gifite umutwe wabazungu, ikindi gifite umutwe w'abirabura. Iyi shopu yitwa Dani fashoni steyira.

Abagabo batanu, buri wese afite icupa ryanditsweho gatanu. Bari ku cyapa cyanditsweho, Huza inshuti nyanshuti.

Inzu nini cyane iy'ubucuruzi hari mo intebe, ameza, intebe zigiye zitandukanye z'amoko menshi, ku ruhande inyuma cyane harimo n'abantu n'icyapa, cyanditsweho irembo na sitidiyo.

Ahantu heza hari inzu y'umwagenti wa airtel. Kuri iyo nzu hahagaze umuntu ku ruhande. Iyo nzu bacururizamo amayinite, bakabitsa, bakabikura. Ni inzu y'umwagenti.

Amazu y'ubucuruzi hanze hari amagare bari gucuruza amwe acuritse andi arambitse n'ibicucucucu by'amagare. Ku ruhande hari ufashe igare wambaye jampa y'umweru afashe igare, hari undi uri hasi uri kumwerekera uri kumwereka.

Inzu bacururizamo ibyuma bitandukanye byo gushyira ku magare. Amatara, iminyururu, amapine na yo y'igare n'ibindi bikoresho by'ibyuma bashyira nko mu mutaka.

Inzu y'ubwiherero bwa tuwalete. Iyo nzu y' ubwiherero yanditseho umugabo, banamushushanyaho. Ni ubwiherero bwiza, imbere hari n'amapave. Mo imbere hari sima.

Inzu y'ubucuruzi bucururizwamo impeta, udukomo tw'amasaro, n'ututari utw'amasaro, amashapure, amasaro yo mu mutwe, ubugofero bwo mu mutwe, n'udukarita babikamo ibyangombwa.

Amazu y'ubucuruzi, inzu y'ubucuruzi yanditsweho Byiza Shop Disitiributo. Icuruza ibintu by'amamatera. Hari matera nyinshi cyane, haba n'abantu hasi bagiye kugura izo matera, ku ruhande hari umutayeri wamanitse imyenda y'amatisi n'amakoto.

Inzu nini cyane y'ubucuruzi bacururizamo ibintu by'amavuta yo mu mutwe, n'ibintu by'imisatsi, n'amashopu y'imyenda, n'ibikapu, n'amataratara.

Inzu y'ubucuruzi buryo butandukanye, hakorerwaho n'ubwagenti, hacuruzwamo ibikombe, amabase, imyunyu...

Inzu nini y'ubucuruzi, igaragaramo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo shopu y'imyenda n'inkweto, hakabamo mu iduka ricuruza ibintu byo mu mutwe, amapurante, amavuta.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye . Harimo amavuta, amaji ,amasabune, imigozi ya telefone ,amagi n'ibindi bicuruzwa byinshi bitandukanye.

Ahantu hacururizwa ibintu by'imitako, imikandara, amasaro, amashapule, udukomo. Hari imikandara myiza cyane, umwe wanditseho ijana na mirongo itatu esi esi.

Inyubako nziza y'ubucuruzi，irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye， ifite icyapa cyanditsweho: Nile sikope mariti bizinesi gurupu limitedi，sudaneze porodagitsi banke ajenti.

Ni inzu y'ubucuruzi, nka butike, igiye yanditseho nimero hari ahanditse ngo zeru rimwe, hejuru yashyizeho nimero za terefone, na imeri: angemuhoza2019gimeri akadomo komu.

inzu nini y'ubucuruzi, iri ibabamo farumase, butike, sitidiyo, hari icyapa cyanditsweho, sitidiyo farumase icyizere, hagira urujya n'uruza rw'abantu, bagiye kugura bimwe mu bicuruzwa bacuruza, n'abagiye muri farumase mu kwivuza.

Inzu nziza z'ubucuruzi bigaragara ko hacururizwamo inzoga, hari n'umuntu wicaye imbere y'iyo nzu yicaye ku intebe zikozwe neza ziteguye ifite n'isuku.

Inzu nini y'ubucuruzi igeretse ya etaje nivo yo hasi yanditseho gudu rayifu, hejuru habana gesite hawuzi, ku mpande handitseho farumasi. Ni inzu nini cyane yitaruye.

Inzu y'ubucuruzi rucuruza n'ibikombe by'amako menshi bigiye bitandukanye amagari, amabase n'udutente twinshi twu...

Inzu ubona ni iy'ubucuruzi nziza iri gucururizwamo amakara menshi cyane harimo imifuka yayo ikaba hari n'ishu ku gakoko, n'avoka ,n'ibitunguru byinshi cyane bimwe biri mu ibase, ibindi birambitse hasi gafoka hirya hakaba hegetse igare.

Inzu nyinshi z'ubucuruzi, zijyaho abantu benshi bagiye kugura ibicuruzwa, imwe icururizwaho amagare agiye atandukanye, indi igacururizwa imiti y'amatungo, ifite icyapa cyanditsweho ngo dukunde amatungo yacu.

Inzu nini ikorerwamo ibintu by'ubucuruzi ya alimentasiyo. Umucyo kantine. Hejuru hari antene ya televiziyo, munsi hari abantu babiri bari kugenda kuri iyo nzu y'ubucuruzi. Hari n'indabo, imbere y'iyo nzu y'ubucuruzi zakuze cyane.

Amazu meza y'ubucuruzi, acururizwamo ibintu igihe bitandukanye. Arimo acururizwamo amabutike, hari inzu ya eyateri, hari aba ajenti, hari igare rihetse umufuka w'ibirayi. Hari urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye.

Inzu nini cyane, ifite icyapa cyanditsweho besiti puresi bare, ifite n'amacumbi, kuri icyo cyapa hariho n'ibitanda, amayoga agiye atandukanye, inyama, ifiriti, bigaragara ko ari bare ifite amaloji na resitora.

hakorerwa sitasiyo savisi yanditswe rubisi injoyi . Hari abantu bambaye imyenda ya yunifomu yerekana ko bakora muri sitasiyo, aho bajya kunywesha lisansi.

Inzu nini cyane z'ubucuruzi, hanze y'iyo nzu hahagaze umupapa ufite n'igare, ku muryango hari kandagirukarabe nziza ifite n'akabase, ku ruhande rw'iyo kandagirukarabe hari utundi ducuruzwa bashyize hanze n'umutaka w'umwajenti.

Inzu y'ubucuruzi iri hafi y'umuhanda hamwe hacururizwa shopu y'imyenda, handitsweho hawuzofu sneksi ahandi hagacuruzwa butike handitsweho ngo cremastarareroni shopu, imbere y'iyo shopu hariho amagare, n'abantu babiri bahagaze imbere umukobwa usa nk'aho agiye kugenda.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibintu bya alimantasiyo, icyayi, capati, ibishyimbo, igitoki, imvange, harimo na resitora ikorerwamo mo imbere mu nyubako.

Amazu yubucuruzi akozwe mu bibati. Abahungu babiri umwe wicaye, undi ateruye intebe. Hanze yo muri ayo mabutike hari ibisheke, igitoki, ibihaza, mo imbere harimo amayoga n'ibindi.

Amazu meza y'ubucuruzi. Hari ibintu bigiye bitandukanye, hanze hari hanitse amasaka, iruhande hari imifuka y'impeke, hari abantu bahagaze huje n'inzoga abantu bagiye kugura ibicuruzwa.

Inzu nyinshi z'ubucuruzi zimwe zicuruzwamo amagaze ahandi hakorerwa eyateri ajensi ahandi hagakorerwa serivisi zirembo hahora hagenda kuruhande mu muhanda urujya n'uruza rw'abantu bagura y'ibicuru...

Inzu nini y'ubucuruzi ikorerwamo papeteri na resitora ,hari icyapa cyanditsweho papeteri Umuvandimwe na nimero za telefoni, hakaba n'ikindi cyapa cyanditsweho restobare .Aha hantu hagira urujya n'uruza rw'abantu baje muri bare, n'abaje gukoresha ibya papeteri.

Inzu bakoreramo ibintu bya salo bogosheramo ,bagasuka, bagaca inzara ,bagasiga inzara, yanditsweho saloni Rukara supamaketi.

Inzu z'ubucuruzi butike ziri ahantu heza hitaruye muhanda, hari ibiti byiza imbere. Imiryango ibiri irafunguye, umuryango umwe wo ruguru, hari umuntu wicaye, undi wo hepfo hari umuntu uhagaze ukoze ku ruhugi.

Inzu nini yukishije ibibati isakajwe amabati, hanze hari inkweto ni nkaho bakoreramo inkweto zigiye zitandukanye z'amoko menshi.

Inzu z'ubucuruzi, hari ibicuruzwa hanze bipanzwe mu mifuka. Imbere yaho hari imodoka, ivatiri y'umweru. Ruguru hari umuntu usa nk'aho yuriye hejuru, upangura ibindi bicuruzwa.

Abantu binjiye mu iduka ry'ibitenge, umwe ahetse igikapu abandi nta bikapu bafite, ari kuvugana n'umucuruzi hari n'amakuvureri, umucuruzi harimo umugabo n'umugore baje gucuruza ibitenge .

Umugabo wicaye ahantu heza hanze, muri hoteri, hari intebe nziza, n'ameza meza, n'umutaka mwiza wanditseho Henikeni.

Ahantu hitaruye ku muhanda hari amashami, inzu nziza cyane, hari n'ibiti bigiye bitandukanye n'ibicu. Hejuru hari na antene biri hakurya ku ruhande.

Agafuka kuzuye k'ibiro cumi ,kavamo kawunga yitwa Mbale ,ikorerwa mu Rwanda biragaragara ko ari amafu yo gucuruza kuko ari mu isoko.

Abantu benshi bari ahantu mu isoko harimo abana, abagabo, abasore, inkumi bari kurangarira cyane inkweto zimanitse hejuru. Ni urujya n'uruza rwa benshi, mu isoko.

Inzu nziza y'ubucuruzi irimo itara riri kwaka amabati meza, imbaho. Ubucuruzi burimo ibikombe by'amoko agiye atandukanye indobo, udupaniye n'amasafuriya.

Isoko ryiza cyane ryo gucururizamo . Haza urujya n'uruza rw'abantu bagura, baguriasha, batambuka imbere y'isoko. Ririmo muri iryo soko amakotesi ,udutambaro, udukapu n'ibindi byinshi.

Agasoko karimo ibicuruzwa intoryi n'imiteja harimo n'abantu batandukanye bari kugura n'abari gucuruza n'utubase bari kujya bararengamo iyo miteja.

Isoko ryiza ririmo: imyambaro, amajezi, amusume, ingofero, amasogisi, imikandara n'udushora. Bigaragara ko ari isoko bahahiramo cyane.

Isoko ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye. Hariho urujya n'uruza rw'abantu baje kugura. Ricururizwamo ibintu byiganjemo ibase, ibikombe n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye hirya no hino.

Urujya n'uruza rw'abantu bari guhaha mu isoko rinini, harimo n'abantu bambaye amasarubeti y'ubururu, abacuruzi bari gucuruza amakayi, udufuka, hari n'abajenti n'umuntu usunitse igare ririho amakarito y'amabiswi, mbese iri soko niryo muri gare.

Mu isoko hari urujya n'uruza rw'abantu, abacuruzi n'abaguzi. Hari akabaho kameze nk'akameza, hejuru hateretse imifuka y'impeke, igiye itandukanye.

Agakarito karimo cage yanditsweho gorerato. Munsi ya cage harimo ikarito nini yanditseho marado make life betn ruhande yanditseho elictrick hit het.

Isoko bacururizamo ibintu by'amasahani, indobo, harimo amaparato, amasafuriya, indobo, ibiyiko, amarushe, ku ruhande hari n'umuntu uhagaze, kandi ibyo bicuruzwa birambitse ku ihema hasi.

Amavuta meza cyane, agiye atandukanye, ari mu ikarito harimo giriserine, nasiyeti roresiyo n'akabogisi hasi, karimo urwembe, n'ahantu bajya bacururiza inzu y'inyubako.

Amavuta ya sante na silaje, n'andi mavuta bipanzwe mu ikarito imwe. Bigaragara ko bacuruza ibintu by'amoko y'amavuta bigiye bitandukanye.

Ubucuruzi bwo mu isoko burimo amaji y'amoko atandukanye mirinda tuwisite n'amaji yo mu bubido, ububido bugiye busumbana, ubutoya n'ubunini n'uburinganiye.

Isoko ryiganjemo amafi. Hari ibase y'umutuku irimo amafi, iy'ubururu nayo irimo amafi, hari n'andi mafi arambitse ku mbaho, urujya n'uruza rw'abantu bagiye kugura.

Isoko rinini cyane ririmo ibicuruzwa byiganjemo; ibitunguru, imbuto z'inyanya, imboga, amashu, imineke. Hari umucuruzi uteruye agaseri k'imineke, hari n'umukire uhagaze ku ruhande, mu isoko ryuzuye mu rujya nu ruza rw'abantu harimo; abacuruzi n'abaguzi benshi.

Umukorodoniye udoda inkweto wicaye ku ibuye hirya hari ibase n'ibijerekani n'ibikara byaka. Afashe icyuma ari kotsa urukweto ari kurukora ku ruhande rwe hari umuntu uryamye munsi y'umutaka n'umuhagaze iruhande.

Isoko rikorerwamo ubucuruzi butandukanye harimo intebe nziza, amabase, indobo, teremusi, ibikombe , amasafuriya, imyuko ibintu bigiye bitandukanye by'ibikoresho cyane cyane ibyo bakoresha mu gikoni.

Isoko rinini cyane ririmo abantu bagiye batandukanye, abaje kugura n'abari gucuruza, iryo soko ririmo inkweto z'amoko menshi n'ibindi bicuruzwa.

Abantu bamwe bahagaze undi wicaye ahantu hasi h'ibitaka wagira ngo hari agasoko watanditse imyumbati ari kuyicuruza. indi myumbati iri mu ibase ipfundikiye ,inyuma inyuma hari undi washashe umufuka watanditse inyanya nawe uri kuzicuruza, imbere hari abantu bahagaze.

Isoko bacururizamo ibikoresho bya eregiteronike harimo amakuteri n'amahedifoni amasharijeri n'imigozi ya telefoni n'ibindi byinshi bikoreshwa cyane cyane ku muriro.

Isoko rinini riri ahantu h'ikibaya ku muhanda w'ibitaka, muri iryo soko ku mpande, hari amazu y'ubucuruzi. Isoko rimwe, hejuru bamanitse imyenda, bamwe bari hejuru, bamanitse imyenda, abandi bari hasi batanditse imyenda hasi, hari n'abakiriya, hari urujya n'uruza rw'abantu bari kugura n'abari kugurisha.

Isoko bacuruzamo ibintu byinshi bitandukanye ahantu hakunze kujya abantu benshi kugura ibicuruzwa abandi bari kubigurisha. Bagurishamo ifu yitwa bino iva mu bigori batekamo igikoma ,bagacuruza na shampo zo gushyira mu mutwe na kanta.